Inyubako aho bacururiza inyongeramusaruro, aho harimo za dapu n'izindi nyongeramusaruro abahinzi bakenera, kugira ngo bazagire umusaruro uhagije. basagurire n'amasoko biteze imbere.

Yego ndabona iyi miti koko ari imiti ivura amatungo ayo ariyo yose, bigaragarako bigaragarako barimo barayikoresha mu buryo bw'ubuvuzi kandi ndizerako iyi miti ivura amatungo kandi neza.

Abayobozi bari gutera umuti bafatanyije n'inzego z'umutekano, harimo nk'abasirikari bambaye imyenda y'akazi n'udupfukamunwa, kugira ngo iyo miti itaza kubanduza ikabangiriza.

Ubwoko bw'amafi buba mu mazi turaburya, buraryoha, ni bwiza, buba bunasa neza, ikindi kandi burahendutse, bamwe baba babujtanye kubugurisha tukabaha amafaranga, nabo bakiteza imbere.

Ubwoko bw' inyamaswa ziba mu mazi, aho ziteretse mu bitebo byinshi zitaratekwa kugira ngo abazirobye bajye kuzicuruza, babonemo amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo.

Ubwoko bw' amafi aba mu mazi, abantu bishimira kurya, kubera ko aba aryoshye, abandi barayacuruza bakabonamo amafaranga, bakoresha mu gutunga imiryango yabo, ndetse bakanateza imbere sosiyete.

Ifi ziri mu bwoko bw'indagara ziba mu mazi abantu barya, ndetse bamwe na bamwe bajya kuzicuruza bakazibonamo amafaranga bifashisha mu buzima bwa buri munsi, kandi ibi biribwa byo mu mazi bigira intungamubiri nyinshi ku buzima bwa muntu.

Inyamaswa ziba mu mazi, n'inyamaswa ziduha ibiryo. Ndetse bamwe na bamwe, bajya kuzicuruza mu isoko bakabonamo amafaranga bakoresha ubwabo mu buzima bwa buri munsi, bahaha ibindi biribwa , ndetse banatora neza serivisi za Leta. Nko kwishyura mituweli, n'izindi.

Inyamaswa ziba mu mazi ni inyamaswa ziduha ibiryo, bamwe na bamwe bajya kuzikuramo bakazigurisha, kuzigurisha babaha amafaranga abafasha kwiteza imbere.

Iki ni igihingwa cy'ururutoki uko bigaragara ni igihingwa ni fudu koropusi. Ni igihingwa kiribwa kitabanje kunyuzwa mu muganda kandi ni igihingwa kirinda indwara kikanatera imbaraga aka buri wese ku kirya umunsi ku munsi kuko ni igihingwa cyiza.

Ishyamba ririmo ibiti binini cyane ndetse n'uduti dutoya dukoresha mu guteka, mu gushingirira imyaka, ndetse n'indi mirimo yose ikoreshwa ibiti cyane gusaturamo imbaho zo kubakisha amazu.

Avoka ni igihingwa duhinga iwacu tukakigurisha, tukabonamo amafaranga yo kwishyurira abana bacu ishuri ndetse tukarushaho no guhahira imiryango yacuneza, kandi avoka buri wese namushishikariza kuyihinga.

Igihingwa cy'urutokiri kiri impande y'ikibara, aho inyamaswa zijya kurishamo ubwatsi, aho ibitoki bahinze ari ibitoki biribwa no hafi yaho hariho ibidodoki barya.

Ibi ni ibiribwa biribwa, turabirya ino aha iwacu kandi biraturyohera, ndetse tukiteza imbere, tukabonamo n'amafaranga yo gukoresha, ibindi bikorwa byacu bya buri munsi, twishyurira n'amafaranga y'ishuri, ndetse tukanatangamo mitiweri, kuko twivuza neza.

Ubuhinzi bw'icyayi aho umuturage ari gusoroma icyayi ari gusoromera mu gitebo ahetse mu mugongo, kugira ngo babone uko bakijyana mu nganda, kivemo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwacu.

Ubwoko bw'imbuto ziribwa n'abantu benshi batandukanye bwitwa avoka. Avoka ni urubuto rugira akamaro mu buzima bwa muntu, kandi abafite avoka nyinshi iyo zeze bazijyana ku isoko bakabonamo amafaranga.

Igihingwa cy'ibijumba, ni ibijumba binini bahinze ahantu heza turabifumbira byarakuze bisa neza, turabirya ibindi tukabijyana ku isoko, bakaduha amafaranga twishyuriramo abana bacu amafaranga y'ishuri, tukanakoramo ibindi bikorwa biteza imbere igihugu.

Ubwoko bw'ibihingwa bikoreshwa bimaze kunyuzwa mu nganda, aho hariho igihingwa cya kawa, bari gusarura cyeze neza gitukuye, bamaze kugisarura bakijyana ku isoko, kugira ngo babonemo amafaranga kwiteza imbere.

Uyu mucuruzi acuruza amashu. Amashu turayarya, tukabaho neza. Amashu turayacuruza, tukabonamo amafaranga yatuma twiteza imbere.

Ubuhinzi bw'urutoki igitoki cyeze neza gitanga umusaruro turabirya, tukabigurisha tugakuramo amafaranga twifashisha mu ubuzima bwacu, ikindi kandi ibitoki bigira intungamubiri nyinshi mu buzima bwacu.

Ubwoko bw'ibijumba, ibijumba bisa neza by'umutuku abantu bahinga kugira ngo babirye ,ibindi bakabijyana mu isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha mu rugo iwabo

Iki gihingwa ni fudukoropusi cyangwa forufamazi, ni igihingwa kikigaragarira ku bantu b'abahinzi n'aborozi bahinga, kandi kidufatiye runini ndetse n'imiryango yacu.

Mu isoko bacuruza imbuto zitandukanye harimo: ibinyomoro, inanasi, amarongi. Izi mbuto ni imbuto zirinda indwara umubiri wacu n'abazicuruza babonamo amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Imbuto zo mu bwoko bw'imyembe ni imbuto ziryoha, ni imbuto abaturage bajyana mu isoko kuzigurisha kugira ngo babonemo amafaranga yo guteza imiryango yabo imbere, ikindi kandi ni imbuto zifite intungamubiri ku buzima bwacu bwa buri munsi.

Imbuto zirasa neza ziratukuye, ziri mu gikoresho cyiza, ni imbuto turya kugira ngo tugire ubuzima bwiza, n'abaza kuzicuruza babone amafaranga yo gutunga imiryango yabo ,ikindi kandi buri wese ushoboye yazihinga.

Ibihingwa turya mu rugo iwacu, ni igihingwa cy'imyumbati, aho ari imyumbati yakuze neza, aho ba nyirayo bayijyana ku isoko, kugira ngo bayigurishe, babone amafaranga yo guhaha ibindi biribwa.

Kuko aho bacururiza ubwoko butandukanye bw'imboga, aho tubonamo inanasi, amaronji ndetse n'imineke, zose ni imbuto zigira akamaro mu buzima bwacu.

Ni igihingwa cy'amatunda buri wese akeneye mu buzima bwe, kandi iki gihingwa gitanga amafaranga. Nagira ngo nkangurire buri wese uri kunyumva akaba yagikoresha mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza, ndetse n'ubw'umuryango we bube bwiza.

uyu murima bawuhingamo ibihingwa biribwa bitunga n'abaturage bakabonamo n'amafaranga nibyo bituma biteza imbere ibihingwa ni byiza.

Ibi ni ibihingwa by'imyembe turabihinga kandi turabikunda. Inaha iwacu bidufitiye akamaro kanini, biduha amafaranga, tukiteza imbere mu buryo bwose bushoboka, kandi ni ibihingwa byiza, turabikunda.

Ubwoko bw' imbuto. Imbuto yitwa amatunda. Amatunda ya mandarine, amatunda aryoha cyane, aho abayahinga bayajyana (abantu) mu isoko bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu guhaha ibindi byo kurya.

Ni ubworozi bw'amatungo magufi yororerwa mu rugo aho hagaragaramo imishwi, imishwi ikiri mitoya ifite n'ibyo kurya imbere yayo kugira ngo imishwi izatange umusaruro mwiza.

Ibihingwa biribwa, ubwoko bw' amateke buribwa, kandi ni ubwoko bujyanwa mu isoku tukayagurisha, maze twagurisha tugahabwa amafaranga atuma twiteza imbere, ndetse n' ubuzima bwacu bwose bukagenda neza, n' ubw'abaturanyi buri munsi.

Ubwoko bw'imbuto bwitwa inanasi ziribwa n'abantu, harimo n'abaturage bari kuzibagarira, dore ko harimo n'izishaka kwera. Inanasi ni igihingwa gitanga amafaranga ndetse abagihinze bakajya kukigusha mu isoko, bakabonamo amafaranga, bakiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko. Inkoku zirimo ubwoko bubiri. Inkoko zibyara n'inkoko z'amasake. Turyamo inyama, inkoko z'amasake iyo zikuze tuziryamo inyama ndetse n'inkokokazi zitera amagi turya tukirinda imirire mibi.

Ipera kiri mu bwoko bw'imbuto, ni igihingwa kiza gisa neza abantu tugomba kukirya, ibindi tugasagurira amasoko, kugira ngo tubonemo amafaranga yo gukoresha mu miryango yacu.

Igihingwa dukoresha kimaze kunyuzwa mu nganda, n'igihingwa cy'icyayi aho bari kugisoroma kugira ngo babonemo amafaranga, n'igihingwa basoroma, basoroma amababi yacyo kugira ngo babone uko bakijyana mu nganda.

Ubworozi bw'amatungo aho borora inka, inka nyinshi ziri mu gihugu muri ubu buzima, zidufitiye akamaro kanini ziduha amata, zikaduha n'ifumbire tugahinga, tukeza, ibyo tumaze kweza tubijyana ku isoko tukabonamo amafaranga.

Imineke iri mu kintu itukuye, imineke niyo turya abahindi bakayikuramo imitobe, imitobe ikazavamo urwagwa, banyirayo bakaziryana kuzigurisha mu isoko bageze mu isoko babaha amafaranga yo kuteza imbere, ndetse bakaranguramo n'ibindi bitoke.

Umurima w'ibigori ni ibigori byakuze neza aho bimwe byatangiye guterera ibindi bikaba bitari byaterera, iyo ibigori bimaze maze kwera barabisarura bakabyanika bakabibeteshamo ifu y'igikoma ndetse bakabibetamo na kawunga.

Ubwoko bw'ibiribwa biri mu bwoko bw'imiteja. Imiteja ni ibihingwa turya, bamwe barabicuruza, bamaze kubicuruza babonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwose.

Imbuto ubwoko bw'avoka, igihingwa gihingwa ahantu hose mu gihugu, n'igihingwa cyiza kirwanya indwara, ndetse kikanafasha abakirya kubaho neza mu buzima bwa buri munsi, tukigurisha twabona amafaranga adufasha kwiteza imbere, mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiteja ni igihingwa cyiza abantu barya kandi kiraryoha . Abantu bakunda kuyigura ndetse n'abacuruzi ba yo bakabona amafaranga yo gukoresha mu bindi ,n'abayiguze na bo bibafasha kugira ubuzima bwiza n'imiryango yabo.

Gronome uri kureba uko ibihingwa bimeze muri girinihawusi ,aho yambaye imyenda yera yabugenewe, yo kujyanwa kureba ibihingwa ibihingwa bisa neza cyane ,ku buryo nibyera neza bizatuma uwabihinze yiteza imbere.

Ubwoko bw' ibishyimbo. Ni ibishyimbo bitoya, abantu bahinga, byamara kwera, bakabijyana ku isoko. Ibisigaye barabirya bikaririnda indwara ndetse n'imiryango yabo.

Igihigwa cya kawa. Aho bari kubirobanura babishyira mu bitebo, kugira ngo babonemo uko kugurisha babonemo amafaranga ba kwifashisha, ndetse bishyuremo n'abakozi babafashije kuzisarura no kuzihinga, kandi ni igihingwa cyinjiriza amafaranga igihugu.

Igihingwa cy'ingano ni igihingwa gihingwa ahantu henshi hashoboka. Ino aha iwacu, iyo zimaze kwera turazihura, twamara kuzihura tukazigurisha bakaduha amafaranga yo kwifashisha.

Ni isoko bacuruzamo ibiribwa. Ibishyimbo turabirya, ibirayi turabirya kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Tujya mu isoko guhahamo ibishyimbo n'ibirayi kugira ngo tugaburire imiryango yacu.

Ndi kubona hari ubuhinzi bw'imbuto kandi imbuto zifite akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi, ziduha amafaranga tukabaho neza twishyurira abana bacu amashuri ndetse tukagira n'ubuzima bwiza.

Mu isoko bari gucuruza ibiribwa bitandukanye, ibishyimbo, imyunyu, cyane cyane n'ibigori, ibigori n' biribwa turya tukabeteshamo n'ifu, umucuruzi nawe yambaye imyenda, yabugenewe y'akazi kandi n'isoko ryubakiye neza.

Biragaragara ko ubu ubuhinzi ari ubuhinzi bw'imbuto, kandi imbuto zifitiye akamaro ubuzima bwacu twese. Izi mbuto rero, ndagira ngo nkangurire buri wese kuzirya kuko ni nziza cyane, zidufatiye runini ziturinda indwara tukagira n'ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'imbuto ni imbuto turya twese, ni imbuto nziza zidufitiye akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abazihinga bazijyana mu isoko kuzicuruza kugira ngo babone amafaranga biteza imbere bateza imbere n'imiryango yabo.

Igihingwa cy'imbuto barya cyangwa bakajya kukigurisha mu isoko bakabonamo amafaranga atuma biteza imbere n'imiryango yabo bataretse na bagenzi babo. Ni ibihingwa banitse byumye.

Kawunga ikoze mu bigori iraryoha, turayirya, tuyigaburira n' imiryango yacu ,ikindi kandi iki ni igihingwa cyiza kiryohera buri wese, Abanyarwanda n'abanyamahanga buri wese namushishikariza kujya arakirya kuko kiraryoha.

Ubwoko bw'bishyimbo, ibishyimbo ntibirera, byitwa intonore, indotore iyo zimaze kwera turazirya, izisigaye tukazijyana ku isoko, kugira ngo tubonemo amafaranga yo kwifashisha mu rugo.

Igihingwa cy'ibishyimbo, aho ibishyimbo byumye neza bamaze kubisarura babyanitse kugira ngo babashe kubirya, ibindi babigurishe, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo.

Abaturage bahinga ubwatsi butunga amatungo nabo bakiteza imbere, iyo batashye babaha amafaranga bakajya guhahirira imiryango yabo, mu masoko abegereye.

Igihingwa cy'amasaka atari yera n'andi yegereje kwera, amasaka iyo amaze kwera tuyasarura tukayanika, tukayabeteshamo igikoma, andi tukayinika, tukazayakoramo ibigage byo kunywa.

Ubunyobwa bweze neza bari kubugosora ku ntara aho babushyira mu biryo ubundi ubundi bakabukaranga bakajya babuhekenya, ubundi bajyaga kubugurisha mu isoko babaha amafaranga bakiteza imbere bagateza n'imiryango yabo imbere.

Igihingwa cya soya aho hariho soya zumye, zamaze kuma, izindi mbisi zikiri mu gishishwa, soya zimaze kuma tuzikoramo ibintu byinshi, izindi tukazibika zikazaba imbuto.

Ubworozi bw'inkoko zitera amagi yo kurya, andi zikayararira hazavamo indi mishwi ayo kurya aborozi b'inkoko barayagurisha bakabonamo amafaranga bakwifashisha mu buzima bwabo.

Ubworozi bw' inka, aho inyamaswa z' inka ziri mu kiraro, cyubakiye neza ku buryo zitabasha kunyagirwa. Kugira ngo zizatange ukwiye, harimo umukamo ndetse n' ifumbire ku mworozi.

Inzozi ni ibibwana by'ingurube bikiri bitoya byonka nyina, byamara konka nyina bigakura, tukabijyana ku isoko, bije ku isoko baduha amafaranga tukajya guhaha ibyo kurya.

Ubworozi bw'inka aho iyi nka ari inka yambaye amahene, inka zidufitiye akamaro kanini mu buzima bwacu, ziduha amata ndetse zikaduha n'ifumbire tugahinga tukeza, cyangwa se tukazigurisha tukabonamo amafaranga.

Amatungo, ubwoko bw'inka aho iri kumwe n'inyana yayo, bigaragara ko ziri aho zirishiriza ubwatsi, inka iyo zitaweho neza zitanga umusaruro harimo: Nk'umukamo n'ifumbire ndetse n'izitanga inyama.

Umworozi afite indobo ari gukamiramo inka ye, yambaye na boti zituma atandura ndetse n'umwenda wera ugaragaza isuku, ndetse na ga kugira ngo amata agire ubuziranenge batabaza abazajya bayanywa.

Izi ni inyama z'amatungo tworora, turazirya, ziduha namafaranga tukiteza imbere, tukishyurira amashuri y'abana bacu, tukanishyura mitiweli ngo tuzabone uko twivuza neza bitatuvunnye, ikindi kandi izi nyama ziraryoha.

Ubworozi bw'ingurube aho turi kubona ingurube ziri mu kiraro, ni ingurube zisa neza bigaragara ko ziryaga neza zifite n'umushumba mwiza, iyo umuntu yoroye ingurube akazitaho zimuhaga umusaruro mwiza.

Ubworozi aho veterineri wambaye imyenda y'akazi ndetse na gapfukamunwa yaje kureba amatungo ikibazo afite. Ndetse anagira inama abarozi b'ayo amatungo.

Ingurube turayirya iduha ifumbire ikaduha n'amafaranga, ingurube ni inyamaswa nziza turayikunda turayirya tuzijyana ku isoko bakaduha amafaranga.

Veterineri avura amatungo, kugira ngo agire ubuzima bwiza tukabona ibyo tuyakomoraho, ni na byiza cyane, turabikunda inyama, amata, n'ibindi byiza biva ku matungo.

Inyamaswa iba mu ishyamba ikurura ba mukerarugendo, natwe baza kuzireba bakadusigira amadovize tukubakamo imihanda, ibitaro n'ibiraro byose n'inyamaswa nziza, irebetse neza, igaragara neza mu maso y'abantu.

Inyamaswa iba mu gasozi, iri mu bwoko bw'inyoni, ni inyamaswa iteye neza, aho ba mukerarugendo baza kuzireba, bagatanga amadovize ku gihugu, kifashisha guteza imbere ibikorwaremezo.

Iyi ni inyamaswa yo mu ishyamba, ni akanyamaswa keza gakurura ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo iyo baje kukareba batanga amafaranga menshi, bakanakishimira, ndetse amafaranga tukanayakoresha mu kubaka igihugu, twubaka imihanda, twubaka n'ibitaro n'ibindi bintu byose bifitiye igihugu akamaro.

Inyamaswa zo mu gasozi ni inyayamaswa zisa neza zibera mu ishyamba ba mukerarugendo barazikunda nko kuzireba bakadusigira amadovoze tukubaka igihugu tuhitiri mu bwozi bwa buri munsi na bagenzi bacu.

Ubwoko bw'inyamaswa ziba mu ishyamba. Inyamaswa iteye neza aho ba mukerarugendo bifuza kuza kuzireba, iyo baje kuzireba batanga amadovize.

Inyamaswa iba mu gasozi, ni inyamaswa ifite amabara meza, iteye ubwuzu. Ba mukerarugendo baza kuzisura bagatanga amadovize twifashisha mu kubaka Igihugu.

Inyamaswa zororwa mu gasozi, ni inyamaswa zikurura ba mukerarugendo baza kuzisura, iyo baje kuzisura batuzanira amafaranga dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse tukaniteza imbere n'igihugu cyacu.

Inyamaswa zo mu gasozi ni nziza cyane ku buryo buri wese yifuza kuzireba, kuko ni inyamaswa zifite amabara meza, ba mukerarugendo baza kuzisura mu gihugu cyacu, bakaduha amadovize akoreshwa mu kubaka ibiraro insengero n'ibindi bikorwa byose bya leta.

Inyamaswa ni nziza iba mu ishyamba, ikurura ba mukerarugendo iyo baje kuzireba baduha amafaranga nabo zirabashimisha, amafaranga baduha tuyifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse no kubaka igihugu.

Ubwoko bw'inyamaswa iba mu gasozi, kandi iyo inyamaswa iri mu bwoko bw'inyoni . Inyamaswa yibera mu ishyamba aho ba mukerarugendo baza kuyisura abaje kwishura bazana amadovize akinjira mu gihugu afasha mu kubaka ibikorwa remezo.

Inyamaswa ziba mu gasozi turabona, ni nziza zikuruga ba mukerarugendo bakaza kuzireba, iyo baje kuzireba baduha amafaranga, bakayishyura igihugu kikiteza imbere, ndetse n'abaturage tukabyungukiramo, inyamaswa nziza zisa neza, ziri n'ahantu beza.

Inyamaswa ziba mu ishyamba ba mukerarugendo baza kuzireba bakaduha amafaranga; ayo mafaranga tuyakoresha mu kwiteza imbere, duhahira imiryango yacu, tunishyurira abana amafaranga y'ishuri, kandi ni inyamaswa zigaragara neza buri wese yakwishimira kuza kuzireba.

Inyamaswa ziba ishyamba ni inyamaswa nziza zisa neza zikurura ba mukerarugendo n'abandi banyarwanda, buri wese yishimira kuzireba iyo baje kuzireba batuzanira amafaranga, twifashisha mu buzima bwacu.

Inyamaswa yo mu ishyamba ikurura ba mukerarugendo, ba mukerarugendo kandi barazikunda, inyamaswa zisa neza, iyo baje kuzireba baduha amafaranga, atuma twiteza imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyayamaswa iri mu bwoko bw'inyoni, ni inyamaswa iba mu ishyamba. Ni inyamaswa ba mukerarugendo bishimira kuza kuzireba iyo baje kuzireba baduha amadovize ndetse amadovi akagirira igihuguka akamaro n'abaturage muri rusange.